Gufumbira imyaka ikiri mito. Gufata ifumbire ukayishyira ku myaka ikiri mito, kugira ngo izazamuke imeze neza, kugira ngo iyo myaka ikurane igikuriro cyiza, kugira ngo umuntu azabone umusaruro ushimishije.

Ubwato butatu butwara abantu, bugatwara n'ibintu, bushobora no gutwara imizigo mu mazi, ubwato ni butatu butwara abantu, kandi n'ubwikorezi bukorerwa mu mazi.

Umushogoro, umushogoro ni ibishyimbo ni ibibabi biva ku bishyimbo. Biribwa n'abantu, bishobora kuba byafatwa nk'imboga. Bikaba byagira akamaro mu mubiri w'umuntu. Umushogoro rero akamaro ufite akamaro gakomeye.